Abantu bo mu ngeri zitandukanye, bateraniye hamwe, bisa nk'aho hari umupasiteri uri kubigisha, ku nsanganyamatsiko runaka, imbere yabo hari abandi bica mubisharagati, nidekoje amabara y'idaraparo rya Repubulika.

Intebe nziza ziteguye neza mu buryo bw'amabara agize idaraporo ry'igihugu cyacu, ahangaha niho abantu bicara baje kureba umupira w'amaguru kuri sitade, birashimishije.

Ikiraro kiza kigezweho, kitajya kigirwaho ingaruka n'amazi uko isuri yaza kose cyangwa se uko uruzi rwakuzura kose, ntabwo rwapfa kwangiza ikiraro nk'iki.

Abantu bambaye impuzankano y'umukara, abandi bateruye indabo mu ntoki, abasore n'abagabo bateruye amasanduku bari kwinjiza, birasa nk'aho ari umunsi wo kwiruka.

Umunyonzi ndetse n'umunyemoto bari mu muhanda mwiza biragaragara ko kaburimbo ifatira runini ibinyabiziga ibirinda gucika amapine cyangwa se gusaza kwayo mu buryo bwihuse.